Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage kandi agasagurira n'amasoko, abatabifite bakabibona bakamuha amafaranga akayakemuza ibibazo bitandukanye. Ubutaka buhinzwemo intoryi zitoshye zirimo umugabo uri kuzivomerera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, aho iyo uhinze imyaka ukayivomerera uko bikwiye, ugashyiramo ifumbire ihagije ukayitera n'umuti wica udukoko, ubona umusaruro uhagije bityo iterambere ryawe rikiyongera buri munsi buri munsi.

Umuhinzi iyo yitaye ku gihingwa cye agashyiramo ifumbire ihagije, akavomerera akanabibagarira abona umusaruro uhagije, ubutaka bunini cyane buhinzwemo umuceri ugiye kwera, harimo umugabo uri kuwuvomerera kugira ngo utohe.

Twese twite ku buhinzi kuko budufitiye akamaro butuma iterambere rikiyiza ari ryinshi kandi vuba, ubutaka buhinzwemo ikawa rikiri ritoya harimo umuntu uri gutera umuti kugira ngo ikorere neza tubone umusaruro mwinshi cyane.

Muze twese dukunde ubworozi ndetse n'ubuhinzi kuko bidufitiye akamaro muri rusange. Ubutaka bunini cyane burimo abantu bagenda batandukanye bafite imiti bari kwamamaza uburyo ifite akamaro ku buhinzi bwacu kuko ituma ubukoko bupfa tukabona umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu iyo ukoresheje ifumbire ihagije, ukavomere uko bikwiye, ugasasira ubona umusaruro mwinshi cyane. Umurima munini uhinzwemo amashu ugahingwamo n'inyanya harimo umuntu uri gutera umuti wica udukoko.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage, iyo ukoresheje ifumbire ihagije ukavomerera uko bikwiye, ubona umusaruro mwinshi cyane. Umurima munini cyane uhinzwemo ibishyimbo bigiye kwera, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umwuka duhumeka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage ndetse n'Igihugu cyacu iterambere rikiyongera, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibigori byinshi cyane kandi byiza bisa n'icyatsi, birimo umuntu wambaye ubururu ari gutera umuti wica udukoko.

Ubuhinzi iyo ubwitayeho uko bikwiye, ukabuvomerera, ugashyiramo ifumbire ihagije ubona umusaruro mwinshi. Igishanga kinini cyane gihinzemo umuceri ukiri mutoya, umuntu uhetse ikibido kirimo umuti wica udukoko yambaye imyenda y'umukara.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage kandi bugateza n'Igihugu cyacu imbere, ubutaka bunini cyane buhinzwemo imboga, harimo umuntu uhagaze uhetse ikibido cy'icyatsi ari kuvomerera kugira ngo gikure neza azabone umusaruro mwinshi.

Iyo witaye ku buhinzi bwawe ugashyiramo ifumbire rihagije, ukavomerera, ugatera umuti wica udukoko bituma ubona umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini buhinzwemo ibirayi bitoshye cyane, harimo umuntu uri kubivomerera kugira ngo bimere neza.

Ubworozi bwa'mafi butanga umusaruro mwinshi cyane kandi ugatera imbere buri munsi. Igishanga kinini cyane, kirimo amafi, gikikijwe n'ibigori byinshi cyane, bigiye kwera, abantu bari kureba mazi, bambaye imyenda y'umweru n'umukara.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, aho buri mwe wese asigaye yihangira umurimo, akabaho neza yibeshejeho kandi agasagurira n'amasoko. Igishanga kinini cyane harimo abantu benshi bari kuroba, abambaye: icyatsi, umutuku, bakikijwe n'ibiti.

Ubutaka bunini cyane burimo icyuzi cy'amafi bufite n'ubusitani bwitse cyane, harimo indabo zigiye zitandukanye zifite amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ibyatsi birebire n'umuntu uri guseka wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umweru.

Ubworozi bw'amafi bukomeje guteza imbere umuturage kandi akanabonaho n'ayo kurya ubuzima bwe bukagenda neza cyane. Ubutaka bunini cyane buriho abantu babiri umugabo n'umugore bafite amafi bakikijwe n'ibyatsi birebire.

Ubworozi bw'amafi bukomeje guteza imbere umuturage kandi ugasagurira n'abatayafite bakabona amafaranga menshi cyane, icyuzi kirimo abarobyi bagiye batandukanye, bafite amafi menshi cyane bagenda bayoza kugira amere neza.

Ibidukikije bidufitiye akamaro nk'abaturage, haba aho dutuye nk'uko biduha umwuka duhumeka, ubuzima bukagenda neza, tukabicana, ubutaka bunini burimo ifumbire n'amazu yubakishije amabati y'ubururu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, umuturage akabaho neza cyane yibeshejeho, agasagurira n'amasoko abatabifite na bo bakabibona. Ubutaka bunini cyane buteyemo insina, harimo umugore uri kwanika ingano.

Ubworozi bw'amafi bukomeje guteza imbere umuturage akabona umusaruro uhagije akarya akihaza uko bikwiye umubiri we ukagenda neza kandi agasagurira n'abatayafite, ubworozi bunini cyane bukikijwe n'ibigori bigiye kwera.

Muze twese twihangire umurimo kugira ngo tubeho neza, twibeshejeho kandi dusagurire n'abatabifite, baduha amafaranga, iterambere rikomeze ryiyongere. Umurima munini urimo icyuzi cy'amafi, harimo umugabo uri kuroba, wambaye imyenda ya kaki n'umweru.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza uko bikwiriye kandi akabona amafaranga ahagije bigatuma iterambere rye ryiyongera. Ubutaka bunini cyane burimo icyuzi cy'amafi n'abantu bavuye kuroba bukikijwe n'ibiti birebire bitanga umwuka duhumeka.

Muze twese twihangire umurimo bizatuma tubaho neza dufite ubuzima bwiza. Ubutaka bunini cyane burimo icyuzi cy'amafi, harimo n'umuntu uri kuroba abiha n'ibyokurya kugirango abone umusaruro mwinshi cyane, wambaye imyenda y'umuhondo n'umukara.

Muze twese twihangire imirimo bityo bizadufasha kugira iterambere mu buryo bwihuse kandi bufitiye n'akamaro igihugu cyacu. Ubutaka bunini cyane, burimo amafi menshi cyane n'abantu bahagaze bayafite bari kuyareba n'ibiti birebire bitanga umwuka mwiza.

Ubutaka bunini cyane burimo ibyuzi byinshi by'amafi, harimo n'utuzu dufite amabati y'ubururu n'umweru, ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane, bufite indabo ndende ndetse n'ingufiya.

Twese twihangire umurimo dukora kugira ngo tubeho twibeshejeho mu buzima bwiza. Ubutaka bunini cyane burimo urwuzi runini cyane harimo abantu babiri bari kuroba amafi turya kugira ngo umubiri wacu umere neza.

Ubutaka bunini cyane burimo amazi menshi dukuramo amafi, ikikijwe n'ibiti birebire biduha umwuka duhumeka, tukabona n'inkwi zo gucana ibiryo kugirango ubuzima bwacu bugende neza, inzu isakaje amabati y'umweru, iteye na sima.

Muze twese twihangire umurimo kugirango tubeho neza dufite ubuzima bwiza. Ubutaka bunini cyane burimo icyuzi cy'amafi abagabo benshi cyane bari kuroba bakuramo amafi menshi kugirango bibesheho neza kandi basagurire n'abandi ku masoko.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu umuturage akabaho neza yibeshejeho kandi agasagurira n'abatabifite bakamuha amafaranga iterambere rye rigakomeza kwiyongera. Ubutaka bunini cyane buhagazeho abantu bambaye imyenda igiye itandukanye bakikijwe n'ibiti.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti birebire ndetse n'ibigufiya, hahinzemo n'ibiribwa bikiri bitoya, buri kugendaho abagabo bambaye imyenda y'ubururu n'iy'umukara, bari kugenda bareba ibyiza bitatse u Rwanda.

Muze twese twihangire umurimo kuko bizatuma tubaho neza kandi n'iterambere ry'igihugu naryo rikiyongera. Umurima munini cyane urimo icyuzi cy'amafi harimo amafi menshi cyane ibiti birebire biwukikije bitanga umwuka duhumeka.

Twese twihangire umurimo kugira ngo iterambere rikomeze ryiyongere, ubutaka bunini cyane buriho abarobyi baroba amafi, impande y'aho hari ibiti birebire bitanga umwuka mwiza bahumeka igihe bari mu kazi kakagenda neza.

Imibiri yacu ikenera ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri kugira ngo amaraso agende neza kandi n'ubuzima bwacu bukomeze bube burebure cyane, ubutaka bunini cyane burimo icyuzi cy'amafi, harimo amafi manini ndetse n'amatoya, bituma umubiri wacu umera neza.

Muze twese twihangire imirimo dushake ibyo dukora kugira ngo tubeho neza dufite ubuzima bwiza kandi dusagurire n'abatabifite, ubutaka bunini cyane burimo icyuzi cy'amafi, harimo umuntu ufite amafi menshi cyane ajyanye ku isoko.

Ubuhinzi bikomeje guteza imbere umuturage, aho iyo ukoresheje ifumbire ihagije ukavomerera uko bikwiye, ubona umusaruro mwinshi cyane kandi ugasagurira n'abatabifite, ubutaka bunini cyane buhinzwemo umuceri ugiye kwera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza yibeshejeho kandi agaha n'abatabashije kubibona, umurima munini cyane uhinzwemo umuceri ukiri mutoya urimo n'amazi menshi afasha gutuma ukura n'abantu benshi cyane bari gukina.

Ubuhinzi bukomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu bigatuma iterambere ry'umuturage ryiyongera kandi n'iry'Igihugu. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo icyayi bikikijwe n'ibiti birebire bitanga umwuka mwiza duhumeka igihe dukorera icyayi.

lyo ukoresheje ifumbire ihagije ukavomerera uko bikwiye, ubona umusaruro mwinshi cyane kandi mu gihe gitoya, ubutaka bunini cyane busutseho ikawa ryeze, harimo abantu benshi cyane bari kugenda bariyora, berekana uburyo ryeze neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu ndetse n'umuturage. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo icyayi kinshi harimo inzu isakaje amabati y'umweru n'ibiti birebire bikikije icyayi, bituma tubona umwuka mwiza duhumeka, igihe turi kukibagara.

Ibidukikije ni ingirakamaro muri rusange, kuko tubona umwuka duhumeka, tukabona inkwi zo gucana, ndetse hakabamo n'inyamaswa zidukururira ba mukerarugendo iterambere ry'igihugu bikiyongera kubera amafaranga baduhaye. Ubutaka bunini cyane burimo ibiti bitandukanye.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza, uko bikwiye kandi na we akarya intungamubiri, agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona. Umurima munini cyane, uhinzwemo ikawa, irimo umuhinzi ari gusarura.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo icyayi kimeze neza gitoshye, kirimo umugore uri gusarura kugira ngo abone uko agemurira amasoko, abone amafaranga amutunga kugira ngo iterambere rye ryiyongere.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage kandi agasagurira n'amasoko n'abatayifite bakaza kubihaha, ubutaka bunini cyane buhinzwemo umuceri ukiri mutoya, harimo abagabo n'abagore bari kuwubagarira kugira ngo ukure neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage aho iyo uhinze neza ugakoresha ifumbire rihagije ndetse n'amazi yabugenewe ubona umusaruro mwinshi cyane, ubutaka bunini cyane buriho abantu bari gusarura ikawa bafite umufuka w'umuhondo n'amasahani y'icyatsi.

Muze twese dukunde ubuhinzi kuko budufitiye akamaro, tubona ibyo kurya uko bikwiriye kandi tugasagurira n'amasoko. Umurima munini uhinzemo ikawa ryeze ndetse n'iritarera, harimo umuhinzi ari gusarura.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho yitunze ameze neza kandi agasagurira n'amasoko akabona amafaranga n'abatabifite bakabibona, ubutaka bunini cyane buhinzwemo icyayi kirimo umuhinzi ari gusarura.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza uko bikwiye kuko iyo ukoresheje ifumbire ihagije n'amazi ahagije, ukavomerara uko bukwiye ubona umusaruro mwinshi cyane. Umurima munini uhinzwemo umuceri ugiye kwera, harimo n'amazi mu migenda.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho buri muturage wese asigaye yibeshaho uko bikwiye agasagurira n'abatabifite ku isoko bakamuha amafaranga agakemura ibibazo bimwe na bimwe. Ubutaka bunini cyane burimo umuceri weze.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, ubutaka bunini cyane burimo ibiti bigiye bitandukanye, ibirebire n'ibigufiya, umugabo ufite ikawa rigiye kwera yambaye agapira k'umuhondo arimo aseka cyane kubera umusaruro yagize.

Indinganire zifite akamaro kanini cyane kuko ziturinda isuri kandi zigatuma n'imyaka ikura neza, ubutaka bunini cyane bufite imisozi miremire hanyuzemo imihanda migari abantu banyuramo iyo bagiye gukora.

Ubuhinzi bufite akamaro ku muturage kuko abaho neza uko bikwiye kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona, ubutaka buhinzemo ikawa ritarera ariko ritoshye cyane rifite imbuto nini cyane.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza mu buryo yifashije kandi byaba na ngombwa akajyana no ku masoko akabona amafaranga agakemura ibibazo bimwe na bimwe n'abatabifite bakabasha kubibona. Ubutaka bunini buhinzwemo icyayi kirimo abantu bari gusarura.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bukomeye cyane, ifite amarangi agiye atandukanye, ay'umweru n'ay'umukara. Harimo n'amakaro, irambitsemo imifuka myinshi cyane, iy'umuhondo, iy'icyatsi ndetse n'iy'ubururu.

Kugirango ubone umusaruro uhagije iyo ufite korora inkoko nyinshi cyane cyangwa ayandi matungo magufi ugomba kuba ufite imiti yabugenewe uziha kugira ngo zikure kandi zikire n'inzoka zirwaye. Inyubako nini cyane irimo umuti w'amatungo ndetse n'uw'inka.

Ubworozi bwacu bukenera imiti, bugakenera isuku kugira ngo biduhe umusaruro mwinshi. Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bukomeye, ifite amarangi y'umweru, harimo imifuka y'umweru n'iy'umutuku, hariho n'inkoko isa n'umutuku.

Kugira ngo ubworozi bwacu bukomeze buduhe umusaruro tugomba kubwitaho uko bikwiye tukabugaburira, tukaba vitamini, ndetse tukanabiteza n'imiti kugira ngo buku neza. Inyubako nini cyane irimo imiti igiye itandukanye iy'ubururu n'iy'umutuku.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage bigatuma abaho neza yishimye kandi mugihe cyiza, ubutaka bunini cyane bufite ibiti birebire, umuntu wambaye ingofero y'umukara ari kureba hejuru areba umusaruro we.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza yishimye ndetse agasagurira n'abatabifite akabona amafaranga menshi cyane, umurima munini urimo abantu bari guhinga bambaye umutuku n'ubururu bakikijwe n'ibiti birebire.

Ubworozi bw'amatungo magufi budufitiye akamaro kuko buzana inyungu mu gihe gitoya. Ubutaka bunini cyane burimo ibiti bikuze, umugore ufite ihene y'umukara ayizirika kugira ngo irye ibyatsi ikure neza noneho imuhe umusaruro mwinshi.

Ubworozi bukomeje guteza imbere abaturage, ubutaka bunini cyane burimo umuhanda mugari, burimo abantu, bafite inka, bafite n'inkoni, bikikijwe n'ibiti birebire bitanga umwuka duhumeka, bigatuma tugira ubuzima bwiza aho dutuye.

Muze twese dukunde ubuhinzi kuko budufitiye akamaro tubaho neza uko dukwiriye kandi tugasagurira n'amasoko. Ubutaka bunini burimo abahinzi batandukanye, inyuma hari ikinyabiziga gisa n'umukara, inyubako zigiye zitandukanye z'ubucuruzi ndetse n'ibiti.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, ubutaka bunini cyane buriho ibiti birebire n'abantu bagiye batandukanye, abagabo bambaye ingofero bari gutera ibiti bituma tubona umwuka mwiza kandi tukanabicana.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti birebire ndetse n'ibigufiya, ibishyimbo byumye, abantu bambaye imyenda y'umukara n'umweru, bari gusarura, umwe ari inyuma abandi bageze imbere, bari kureba hejuru.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza kandi agasagurira n'amasoko, n'abatabifite bakabibona. Umurima munini cyane uhinzwemo ibishyimbo, harimo abantu benshi cyane bari kubagarira kugira ngo bikure neza.

Iyo witaye ku gihingwa cyawe ukagiha amazi ahagije, ifumbire ihagije ndetse ukanabitera n'umuti wica udukoko bikura neza bikaguha umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini burimo abagabo n'abagore bahagaze impande y'ipapayi rigiye kwera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, iyo ukoresheje ifumbire ihagije ,ugasasira uko bikwiye ,ukavomere uko bikwiye ,ubona umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo inyanya zikiri ntoya, harimo umuhinzi ufite amabase ane n'isuka.

Ubutaka bunini cyane buriho ibyatsi byinshi cyane dukuraho ibyatsi by'amatungo birya ndetse hakavaho n'icyarire ziryamaho kugira ngo tubone ifumbire tuzifashisha duhinga imyaka yacu tubone umusaruro mwinshi cyane. Umugabo ufite igare arisunika.

Twese dukundade umurimo kuko bituma tubaho neza. Umurima munini cyane, uhinzwemo ibyatsi, baha amatungo, bakanabyahira bakabigira icyarire, umugabo utwaye igare, hariho n'inkwi zumye, wambaye umupira w'umweru.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, akibeshaho neza, byaba na ngombwa agasagurira amasoko n'abatabifite bakabibona. Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi byumye n'ibiti birebire n'abagabo babiri bafite amasuka.

Ubworozi bw'inka bufite akamaro gakomeye cyane kuko tubona inyama turya kandi tukabona n'amata duha umubiri wacu ukamera neza. Ubutaka bunini cyane burimo ibiraro by'inka harimo n'inka eshatu zifite amabara ay'umweru n'ay'umukara ziri kurisha.

Kugirango ngo ubuhinzi bugende neza kandi bwihute duharanire gukorera hamwe dufashanya mu guhinga kugirango tubone umusaruro byihuse, ubuhinzi burimo abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore bari kubagara umuceri kugira ngo uzere neza.

Muze twese twihangire imirimo kugirango ngo tujye tubona umusaruro uhagije. Ubutaka bunini cyane burimo abantu bari kuyora ifumbire bambaye imyenda y'umutuku n'iy'umukara impande ya hari ibiti birebire cyane bitanga umwuka bahumeka.

Ubworozi bukomeje kwiyongera mu gihugu cyacu kuko iterambere riza vuba. Ubutaka bunini cyane burimo ihene nyinshi iz'umweru n'iz'umukara, ziri kumwe n'aborozi bari kuziragira ndetse bakikijwe n'ibiti birebire, bitanga umwuka mwiza bigatuma bishima.

Iyo ubuhinzi ubwitayeho neza uko bikwiriye, ukabubagarira ukanabufumbira uko bikwiye, ukavomerera n'amazi menshi, ubona umusaruro mwinshi. Umurima munini uhinzwemo ibijumba bigiye kwera, harimo n'ibiti birebire bitanga umwuka mwiza.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye ibiribwa bigiye bitandukanyekanya ibirayi, ibijumba, ibitoki, n'imboga. Abantu benshi cyane harimo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'ubururu bari gupima ibirayi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza kandi agasagurana n'amasoko n'abatabifite bakabibona. Umurima munini cyane uhinzwemo amashu yabonye ifumbire ihagije ndetse n'amazi menshi, inzu ifite amabati y'umutuku irangi ry'umweru n'ibiti.

Ubuhinzi budufitiye akamaro gakomeye cyane kuko tubaho neza uko bikwiriye twibeshejeho, ubutaka bunini cyane buhinzwemo umuceri ukiri mutoya, abagabo bambaye imyenda y'umukara n'iy'umutuku bari gusarura umuceri.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Abanyarwanda ndetse n'Igihugu iterambere rikiyongera. Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi byumye ndetse n'ibikiri bitoya duha amatungo yacu kugira ngo akure kandi tugakuramo n'icyarire, umuntu ufite igare ari kugenda.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza, akarya uko bikwiriye kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibigori byeze n'ibitari byera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza yitunze kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona. Ubutaka bunini cyane buteyemo insina zigiye kwera ndetse n'ibyatsi byumye birambitse hasi, bizisasiye.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye ibyo kurya bigiye bitandukanye: karoti, inyanya n'imineke ndetse n'ibitunguru bituma imibiri yacu imera neza kandi ubuzima bwacu bukarushaho kuramba. Muze twese duharanire guhinga.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, aho iyo ukoresheje ifumbire ihagije n'amazi ahagije ubona umusaruro mwinshi mu gihe gito. Ubutaka bunini buhinzemo imyumbati burimo inzu isakaje amabati y'umutuku iteye na sima.

Ubuhinzi iyo ukoresheje ivumbire ihagije, ugasasira uko bikwiye ukanavomerera, ubona umusaruro uhagije. Umurima munini uhinzwemo ibishyimbo bikiri bitoya, bikikijwe n'ibiti birebire bitanga umwuka duhumeka, igihe turi kubihinga.

Ubutaka bunini cyane buhinzwemo umuceri ukiri mutoya, ukikijwe n'ibiti birebire n'amazu asakaje amabati y'umweru, ifite n'ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire ndetse n'ibigufiya.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage aho yitunga akabaho neza kandi agasagurira n'amasoko. Ubutaka bunini cyane burambitseho ibirayi byinshi ibinini n'ibitoya biteganyijwe kugurishwa.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu kandi bugateza imbere n'umuturage, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibigori binini cyane ,bigiye kwera, ibikiri bitoya, bitoshye birimo umuntu uri kubibagarira.

Ubuhinzi bukomeje kwiyongera mu gihugu cyacu kandi tukabona n'umusaruro mwinshi igihe twabwitayeho, ubutaka bunini cyane buteyemo ibigori harimo n'ibiti birebire byo gucana ndetse n'ibiduha umwuka mwiza duhumeka n'umugezi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu rikiyongera, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibigori byinshi cyane, bikikijwe n'imisozi miremire harimo n'ibiti bikuze.

Kugira tugire ubuzima bwiza, umubiri wacu ukenera ibirinda indwara, ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri, bigatuma ubuzima bwacu bumera neza. Ubutaka bunini bihinzwemo ibijumba bigiye kwera, ibirimo binini n'ibikiri bitoya.

Ibidukikije bidufitiye akamaro kuko habamo nk'ibiti ducana ndetse n'ibyo turya. Ubutaka bunini buhinzwemo imyembe igiye kwera, bifite n'ubutaka bunini cyane n'ibyatsi bigufiya n'ibirebire.

Ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibyatsi by'amatungo ndetse harimo n'insina zera ibitoki turya bigatuma umubiri wacu ukura neza, harimo n'ibyatsi birambitse hasi byumye, n'amazu akikije umurima.

Imboga zifite akamaro ku buzima bwacu kuko ziturinda igwingira kandi zikubaka umubiri wacu ukamera neza, umurima munini cyane ufite inyubako y'amatafari ahiye, hahinzemo imboga zeze, kandi harimo n'ibitunguru.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, akabaho neza agasagurira n'amasoko bakamuha amafaranga, akagura ibindi akeneye. Ubutaka burimo umuntu uhagaze afite ibirayi byiza cyane akuye mu murima agiye kujyana ku isoko.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage ku buryo iyo ukoresheje ifumbire ihagije ugatera n'imiti yica udukoko ubona umusaruro mwinshi cyane. Ubutaka bunini cyane burimo ibirayi byeze ibinini n'ibitoya byatanze umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona, ubutaka bunini cyane burimo insina nyinshi cyane, zikoreye zifite isuku kandi zitoshye, n'umurima munini uhinzwemo imboga ndetse n'amashu.

Ubuhinzi bukomeje gutuma iterambere ryiyongera ry'umuturage kandi n'Igihugu na cyo kikabibonamo umusaruro mwinshi cyane, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibigori byumye harimo n'ibyatsi bikiri bitoya.

Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi bikiri bitoya n'imisozi miremire myiza cyane n'umuhanda mugari abantu bacamo iyo bagiye mu murima guhinga kugira ngo bagereyo vuba kandi n'umusaruro wabo uze ari mwinshi.

Ubuhinzi iyo ubwitayeho ugashyiramo ifumbire ihagije, ukavomerera, ugatera umuti wica udukoko ubona umusaruro mwinshi cyane, ukabaho neza kandi ugasagurira n'amasoko, ubutaka buhinzwemo ibirayi bari gusaruramo.

Iyo ubuhinzi ukoresheje ifumbire ihagije ukavomerera uko bikwiye, ubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya. Umurima munini cyane uhinzwemo imyumbati itoshye ubutaka bunini cyane harimo n'ibiti biwukikije.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu umuturage akabaho neza kandi n'iterambere ry'igihugu rikiyongera, ikibaya kinini cyane gihinzwemo umuceri ugiye kwera n'ukiri mutoya ukikijwe n'ibiti byinshi cyane bitanga umwuka duhumeka.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye ibiribwa bigiye bitandukanye, isoko ririmo abantu bambaye umutuku n'umweru bari gucuruza ibirayi byuzuye mu mifuka, iy'umweru, iy'icyatsi ndetse n'iy'umutuku. Isoko risakaye.

Umubiri wacu ukenera ibirinda indwara n'ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo dodo nyinshi zikikijwe n'ibiti birebire, ibikuze ndetse n'ibiryamiye hasi byumye.

Ubuhinzi bufite akamaro gakomeye cyane ku muturage kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona bityo n'iterambere ry'igihugu rikiyongera. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibijumba bimeze neza bigiye kwera.

Twese dukunde akarima k'igikoni kuko kadufasha kubona ibyo kurya byihuse tutavunitse, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibitunguru, imboga, amashu n'ibisheke twifashisha iyo tugiye guteka kugira ngo ubuzima bwacu bumere neza.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye imisaruro igiye itandukanye kugira ngo n'abatabifite babashe kubibona, isoko rinini cyane ririmo ibirayi byinshi cyane byuzuye imifuka n'abantu bari kugura benshi cyane.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage ndetse n'iterambere ry'Igihugu rikihuta hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'ubuhinzi. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibiribwa byinshi, bikikijwe n'ibiti birebire, biduha umwuka mwiza iyo turi guhinga, bigatuma dukorana imbaraga.

Ubuhinzi bukomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu iyo ukoresheje ifumbire ihagije ukanavomerera uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi mu gihe gito. Umurima munini cyane uteyemo igiti kikiri gitoya urimo n'imyumbati n'ibishyimbo byo kurya.

Ubutaka bunini cyane butarahingwa burimo ibyatsi bikuze, harambitsemo insina batemye ifite ibishagari byinshi ndetse n'amakoma akiri mabisi, imiyenzi ihakikije n'umuntu uje kuhahinga kugira ngo azahingemo imyaka.

Ubuhinzi bukomeje kwaguka mu gihugu cyacu kuko iyo ukoresheje ifumbire ihagije ukavomere uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito. Inyubako iri mu murima munini cyane hateyemo n'amaronji agiye kwera.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage iterambere rikiyongera kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona, ubutaka bunini cyane burimo insina nini cyane n'intorizi zigiye kwera n'indabo nyinshi.

Ubutaka bunini cyane burimo ibimera bigiye bitandukanye, ibigori, ibyatsi bigufiya, insina zera ibitoki tukarya umubiri wacu ukagenda neza ndetse ukikijwe n'ibiti birebire cyane biduha umwuka duhumeka.

Twese dukunde ubuhinzi tubwitaho uko bukwiye, tubisasira neza uko bikwiye, tukavomerera tugashyiramo n'ifumbire ihagije kugiran ngo tubone umusaruro mwinshi kandi vuba. Umurima munini cyane uhinzwemo intoryi harimo abantu bari kuzuhira baziteraho amazi.

Ibidukikije bifite akamaro muri rusange kuko tubonamo ibyo kurya kandi tukabona n'icyarire dushyira mu nka tukabona ifumbire, umurima munini cyane urimo ibyatsi byinshi cyane twahira tugaha amatungo kugira ngo arye akabona umukamo mwiza.

Imibiri yacu ikenera ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo igiti k'imyembe turya ubuzima bwacu bukamera neza ikikijwe n'ibindi biti ducana kugira ngo tubone ibyo kurya.

Ibidukikije bidufitiye akamaro kenshi cyane. Ikibaya kinini cyane kirimo ibiti byinshi bigiye bitandukanye, ibirebire n'ibitoya bidufasha kubona inkwi ducana tukarya, insina nyinshi zitanga ibitoki turya.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti birebire bidufasha kubona umwuka duhumeka ubuzima bwacu bukagenda neza birimo abantu benshi cyane bambaye imyenda y'icyatsi n'ubururu bafite ibikoresho dukoresha mu rugo.

Ubuhinzi bufite akamaro mu gihugu cyacu kuko butuma tubaho neza kandi twakenera amafaranga tukabujyana no ku isoko. Ubutaka bunini cyane burimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye, abambaye umutuku, icyatsi n'ubururu barimo guhinga.

Ibidukikije bidufitiye akamaro muri rusange, yaba mu rugo iwacu cyangwa nko mu gihugu cyacu kuko bituzanira ba mukerarugendo tukabona amadovize, umusozi munini uriho ibiti birebire ducana kandi bikaduha n'umwuka mwiza.

Ubutaka bunini cyane buhinzwe, hateyemo ibiti birebire ndetse n'ibikiri bitoya, bituma umurima wacu utagira isuri kandi tukabona n'umwuka mwiza duhumeka, bigatuma dukora cyane, tugahinga ahantu hanini cyane.

Igihugu cyacu gikomeje gutera imbere kubera ko abanyamahanga baza kugisura baje kureba ibyiza bigitatse. Ubutaka bunini cyane burimo abakerarugendo bari kugenda bareba ibyiza bitatse u Rwanda, bakaduha amafaranga bityo iterambere ry'Igihugu rikiyongera.

Ibidukikije bifite akamaro mu buzima bwacu kuko biduha umwuka duhumeka ubuzima bukagenda neza kandi hamo n'inyamaswa zidukurira ba mukerarugendo, bakaduha amadovize iterambere rikiyongera. Umusozi munini cyane urimo ishyamba rinini.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko habamo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, zidukururira ba mukerarugendo bakaduha amadovize bityo iterambere ry'Igihugu rikiyongera, ikibaya kinini cyane gifite imisozi irimo ibiti bikuze.

Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, ibiti by'avoka, indabo, insina ziduha ibitoki tukarya umubiri wacu ukamera neza n'amazu menshi cyane y'ubucuruzi, hasakaje amabati y'ubururu n'umweru.

Ibidukikije bidufitiye akamaro twe nk'abaturage kandi bikagirira n'akamaro inyamaswa zacu kuko zibamo zikagira ubuzima bwiza kandi natwe tukabona umwuka duhumeka ubuzima bukagenda neza. Ubutaka bunini cyane burimo ibiti bikuze.

Ibidukikije bidufitiye akamaro kanini cyane, umusozi munini ufite ibiti birebire bitanga umwuka duhumeka bigatuma ubuzima bwacu tumera neza kandi habamo n'inyamaswa zidukururira abanyamahanga bakaduha amafaranga.

Ubutaka bunini cyane bufite ibiti birebire ndetse n'ibikiri bitoya bidufasha kubona umwuka duhumeka mwiza igihe turi guhinga n'inyubako nini cyane ifite amarange y'umuhondo kandi isakaje n'amabati y'umweru.

Ibiti bidufitiye akamaro twe nk'abaturage kandi bikagituma n'iterambere ry'Igihugu riza ari ryinshi, ibiti byinshi cyane biri ahantu ku misozi, birimo ibicu byinshi cyane bituma tubona imvura tukabona n'imyuka myiza.

lbikorwaremezo bikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, nk'imihanda myiza, amashuri ,ubutaka burimo ibiti birebire byiza ,n'umuhanda mugari uri kugendamo abantu babiri, bambaye imyenda y'umweru n'umukara bafite ibikapu.

Ibidukikije bidufitiye akamaro muri rusange, yaba aho tuba cyangwa aho dukora, yaba aho twiga kuko biduha umwuka duhumeka, rimwe na rimwe tukanabicana tukabona ibyo kurya, umusozi muremure uriho ibiti bikuze.

Ibidukikije ni ingirakamaro twese muri rusange, umusozi munini cyane uriho ibimera bigiye bitandukanye, ibiti birebire ndetse n'ibigufiya harimo n'inyamaswa zituma iterambere ry'Igihugu ryiyongera.

Ubutaka bunini cyane burimo imisozi miremire, harimo n'ibiti binini ndetse n'ibikiri bitoya kuko bidufitiye n'akamaro. Biduha umwuka mwiza duhumeka kandi hakabamo n'inyamaswa zidukururira ba mukerarugendo, bigatuma iterambere ryiyongera.

Ibiti bifite akamaro kanini cyane aho dukuramo inkwi zo gucana kandi bikaduha n'umwuka mwiza duhumeka igihe turi mu kazi tukagakora neza twishimye. Umurima munini urimo ibiti byumye birambitse hasi ndetse n'ibirebire.

lbidukikije bidufitiye akamaro gakomeye cyane, umusozi munini cyane ufite ibiti byinshi bigiye bitandukanye ,ibirebire n'ibigufiya, habamo inyamaswa zitwinjiriza abanyamahanga ,bakaduha amafaranga iterambere rikihuta.

Ibidukikije ni ingirakamaro muri rusange kuko biduha umwuka duhumeka, tukabona inkwi zo gucana kandi n'amatungo akarishamo ubwatsi akamera neza, ubutaka bunini cyane burimo ishyo ry'inka kandi ziri kurisha.

Twese muze dukunde gukora umuganda kugira ngo tugire amasuku yaba aho tunyura cyangwa aho dutuye. Ubutaka bunini cyane burimo umuhanda mugari harimo abantu bagiye batandukanye bakora amasuku baringaniza ahataringaniye kugira ngo ibinyabiziga bijye bibasha kubona aho bica.

lbiti bidufitiye akamaro muri rusange, kuko habamo inyamaswa zidukururira ba mukerarugendo ,tukabona amafaranga menshi cyane, kandi natwe tukabona ibiti byo gucana ,tukabona n'umwuka mwiza duhumeka, umusozi munini cyane urimo ishyamba rinini.

Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ibirebire, ibigufiya ndetse harimo n'insina z'ibitoki bituma tugira ubuzima bwiza, biri mu butaka bunini cyane.

Ibikorwa remezo bikomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu nk'imihanda myiza, amashuri n'ibindi, ubutaka bunini cyane burimo imisozi myiza, amazu abaturage babamo hasa n'umuhondo, hasa n'ubururu n'imihanda myiza irimo hagati.

Ibidukikije bidufitiye akamaro gakomeye cyane kuko tubona umwuka mwiza duhumeka kandi tukabona n'inkwi zo gucana hakabamo n'inyamaswa zidukururira abakerarugendo bakaduha amadovize iterambere rikiyongera, ubutaka bunini burimo ibiti bikuze.

Ibidukikije bifite akamaro mu gihugu cyacu kuko bituma iterambere ry'igihugu ryiyongera rikadukururira ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize. Ubutaka bunini cyane burimo ibiti byinshi cyane ndetse n'imisozi miremire.

Ibidukikije bidufitiye akamaro muri rusange kuko bidukururira ba mukerarugendo, bakaduha amadovize, iterambere ry'igihugu rikiyongera, ubutaka bunini cyane, burimo ibiti bigiye bitandukanye, abagabo bari kugenda bambaye umweru.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo imboga, ibitunguru ndetse n'intoryi harimo umuntu uri gusarura.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza uko bikwiye kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona. Umurima munini cyane uhinzwemo inanasi zeze ndetse n'izikiri ntoya, harimo umugore uri gusarura.

Umubiri wacu ukenera ibirinda indwara, ibitera imbaraga kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ubutaka bunini cyane burambitseho imbuto zigiye zitandukanye, inyanya, karoti ndetse n'inkeri, turya bigatuma tugira umubiri mwiza, bugakomeza bukiyongera.

Ubutaka bunini cyane buhinzwemo akarima k'igikoni, gafite amabara y'ubururu n'umweru, gakikijwe n'inyubako nyinshi cyane, izifite amabati y'umutuku n'umweru n'ubusitani bwiza cyane, burimo indabo, ndende n'ingufiya.

Ubuhinzi iyo ubwitayeho ubona umusaruro mwinshi cyane. Isoko rinini ririmo abavuzi bagiye batandukanye bari kureba avoka uko zimerewe. Inyubako nini cyane ifite amarangi y'umuhondo ndetse inasakaje amabati y'umutuku.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, aho abona ibyo kurya bihagije kandi agasagarurira n'isoko uko bikwiye, ubutaka bunini cyane buriho igiti cya voka kirimo avoka zigiye kwera, izi mbisi ndetse n'izaguye hasi.

Twese duharanire kugira isuku yaba aho dutuye cyangwa aho dukora cyangwa aho twirirwa kuko ari ingirakamaro ku mibiri yacu. Umurima munini cyane urimo indabo nziza cyane zifite amabara atandukanye: ay'umutuku, ay'umuhondo ndetse n'iz'icyatsi n'umweru.

Muze twese duharanire kugira akarima k'igikoni kuko kadufitiye akamaro, duteramo ibiturinda indwara, ibyubaka umubiri ndetse binadutera imbaraga. Ubutaka bunini cyane bufite ubusitani bwiza, harimo n'akarima k'igikoni karimo imboga n'ibitunguru.

Ubuhinzi iyo ubyitayeho uko bikwiriye ubona umusaruro mwinshi cyane, iyo ukoresheje ifumbire ihagije, ukavomere uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi. Umurima munini cyane urimo abahinzi bari gutera ibijumba bifashishije ifumbire nyinshi.

Ubuhinzi bukomeje gutuma iterambere ry'umuturage ryiyongera ndetse n'Igihugu na cyo kibigizemo uruhare, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibirayi bikiri bitoya, umuntu ari kubibagarira, abitera n'umuti kugira ngo tuzabone umusaruro mwinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu baza mu isoko bazanye ibyo kurya bitandukanye, baje guha abatabifite kugira ngo babone n'amafaranga. Isoko rinini cyane, ririmo intoryi, inyanya ibitunguru, turya kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza ndetse akagira n'ubuzima bwiza kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakaza kubihaha, ubutaka bunini cyane buhinzwemo amatunda ameze neza n'umugabo uyafasheho.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, iyo uhinga ugakoresha ifumbire ihagije ugatera umuti wica udukoko, ukamemera n'amazi menshi cyane, ubona umusaruro mwinshi. Ubutaka bunini buhinzwemo inyanya zeze.

Ubuhinzi ukoranye umurava ugakoresha ifumbire ihagije n'amazi menshi ubona umusaruro mwinshi. Umurima munini cyane urimo inyanya zeze, ufite ibyatsi birebire biwusasiye kugira ngo zikomeze zikure neza.

Muze twese twihangire umurimo kuko bidufitiye akamaro bituma tubaho neza, tugasagurira amasoko, tukabona amafaranga dukemura ibibazo bigiye bitandukanye. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo inyanya zimeze neza, izigiye kwera n'izitari zera.

Iyo witaye ku buhinzi ubona umusaruro mwinshi uhagije bityo iterambere ryawe rikiyongera buri munsi. Ubutaka bunini burambitseho umusaruro w'urusenda nyinshi zitukuye cyane ndetse n'izidatuguye zirambitse hasi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, aho yitunga uko bikwiye yakenera buri kimwe akacyikorera, ubutaka bunini cyane buhinzwemo intoryi harimo umuntu uri kuzikorera azitera amazi uko bikwiye, ashyiramo n'ifumbire kugira ngo abone umusaruro.

Iyo witaye ku buhinzi uko bikwiye ugashyiramo ifumbire ihagije, ukavomerera, ukabibagarira, ubona umusaruro mwinshi kandi vuba. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo voka igiye kwera, bufite ibiti birebire ndetse biteye mu base y'umukara.

Twese dukunde ubuhinzi kuko budufitiye akamaro ,ari bwo butubeshejeho tukabona ibyo kurya kandi byiza ,ubutaka buhinzwemo amatunda meza cyane ,afite umusaruro uhagije ,agiye kwera n'atari yera, arimo umuhinzi wambaye ubururu.

iyo witaye ku myaka ugakoresha ifumbire ihagije, ukavomere uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya. Umurima munini cyane uhinzwemo inyanya zeze abantu bari gusarura kandi banarya.

Ubutaka bunini cyane buriho ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye, bidufitiye akamaro kuko biduha umwuka duhumeka kandi bibamo n'inyamaswa zidukururira ba mukerarugendo batuzaniye amadovize bityo iterambere rikihuta.

Umuhinzi wese witaye ku gihingwa ke abona umusaruro mwinshi cyane akakivomera uko bikwiye, akagitera umuti wica udukoko kandi agashyiraho n'ifumbire ihagije. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo amatunda agiye kwera harimo umuntu uyakorera.

Isuku ni nziza cyane aho dutuye kuko bituma hagaragara neza cyane nk'iyo harimo uturarabo twiza cyane, ubusitani burimo indabo nziza cyane zifite amabara atandukanye, ay'umweru, iz'icyatsi zituma hagaragara neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo inanasi nyinshi cyane, izeze n'izigiye kwera n'izikiri ntoya, bikikijwe n'ibiti binini cyane bitanga umwuka, bigatuma zihumeka neza kandi natwe abahakora, tukagira ubuzima bwiza.

Twese dukunde ubuhinzi kuko bifite akamaro, tubaho neza tukabona ibyo kurya kandi tugasagurira n'amasoko. Umurima munini cyane uhinzwemo ibirayi bigiye kwera ufite amazi menshi cyane n'ibiti biwukikije bitanga umwuka duhumeka igihe duhinga.

Ubuhinzi bukomeje guteza umuturage imbere akabaho neza kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo amashu harimo umuntu uri kuvomerera kugira ngo akure neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu iyo ukoresheje ifumbire ihagije ukavomerera uko bikwiye ubona umusaruro uhagije. Umurima munini cyane uhinzwemo ibigori birebire ufite n'ibyatsi bikiri bitoya harimo umuhinzi ari kubibagara.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza mu buryo ashaka kandi yagira n'ikibazo akajyana ku isoko bakamuha amafaranga iterambere rigakomeza kwiyongera. Umurima munini cyane uhinzwemo urimo umuntu uri kuvomerera harimo n'insina.

Ubutaka bunini cyane burimo amazi menshi n'umuhanda mugari ,n'imisozi miremire irimo ibiti, ibinini n'ibikiri bitoya ndetse n'ibyumye ,biduha umwuka duhumeka bigatuma ubuzima bwacu bumera neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza uko bikwiriye, iyo uhinga ugakoresha ifumbire ihagije ukavmerera uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi, umurima munini urimo abantu bari kuvomerera ibigori bigiye kwera.

Ubuhinzi iyo ubyitayeho uko bikwiriye ugaterana ifumbire ihagije ukanabibagaza ndetse ukanavomerera uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gito. Umurima munini cyane uhinzwemo ibigori bikiri bitoya harimo abantu bari kuvomerera.

Ubuhinzi bukomeje gutanga umusaruro, igihe wakoresheje ifumbire ihagije n'amazi menshi, ubona umusaruro mwinshi. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo umuceri mwinshi, harimo amazi ari kumeneka mu muceri kugira ngo ukure neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu ndetse n'umuturage akikemurira bimwe mu bibazo bye afite, ubutaka bunini cyane buhinzwemo amashu harimo umuntu uri kuyamenera amazi ashyiramo n'ifumbire nyinshi akabona umusaruro uhagije.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage bigatuma iterambere rye rihise ryiyongereye ndetse agasagurira n'amasoko, ubutaka bunini cyane buhinzwemo amashu atoshye cyane, harimo umukozi ayamenera amazi kugira ngo atohe neza.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage, umurima munini cyane urimo amashu akiri matoya bari kuvomereramo, imashini ihagaze mu muhanda n'ibiti birebire bikikije uwo murima, bitanga umwuka duhumeka iyo turi guhinga.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, akabaho neza, yishimye ndetse agasagurira n'amasoko, akabona amafaranga menshi cyane. Umurima munini cyane uhinzwemo amashu akiri matoya, ukikijwe n'ibiti birebire, umugabo ari kuvomerera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, umuturage akabaho neza uko bikwiye kandi agasagurana n'amasoko n'abatabifite bakabibona, umurima munini cyane urimo imisozi miremire, ibyatsi bikiri bitoya ndetse n'ibyuma bibikikije bisa n'umweru.

Twese dukunda umurimo twihangira umurimo nk'abahinzi kuko ubuhinzi butumagira iterambere mu buryo bwihuse. Ubutaka bunini cyane burimo umuntu uri kuvomerera insina, harimo izigiye kwera n'izikiri ntoya.

Ubutaka bunini cyane burimo amazi menshi dukuramo amafi, bigatuma umubiri wacu ugenda neza, ukikijwe n'ibyatsi byinshi n'ibiti birebire n'amazu arimo yubakishije amatafari ahiye asakaje amabati y'umweru.

Ubuhinzi bukomeje kwaguka mu gihugu cyacu, hifashishijwe gukoresha ifumbire ihagije, guhinga ahantu hagari cyane kugira ngo umusaruro ube mwinshi. Umurima munini urimo umuntu uri kuvomerera, ukikijwe n'ibiti birebire bitanga umwuka duhumeka.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu gihugu cyacu, aho inyubako zisigaye zubakwa mu buryo bwiza cyane. Ikibaya kinini cyane kirimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ibirebire n'ibigufiya, harimo inyubako ndende ifite amabara y'ubururu ndetse n'ay'umuhondo.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza yibeshejeho kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakaza kubihaha. Umurima munini cyane uhinzemo ibigori bigiye kwera birebire bitoshye mbese byahawe ifumbire ihagije n'amazi ahagije.

ubutaka bunini cyane burimo umugezi munini cyane ukikijwe n'umurima munini uteyemo ibigori bijyiye kwera, harimo n'ibyatsi byumye n'ibiti birebire biduha umwuka duhumeka igihe turi mu kazi.

Twese twite ku buhinzi bwacu bukiri butoya tubuvomere uko bikwiye, tubutetere umuti wica udukoko, tubibagarira kugirango ngo tubone umusaruro mwinshi cyane. murima munini uhinzwemo ibigori bikiri bitoya hari n'uumuntu ubivomerera wambaye imyenda y'icyatsi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane buhinzwemo amashu harimo umuntu uri kuyavomerera kugira ngo azere ameze neza, akikijwe n'ibiti birebire biyanda abajura ndetse n'inyamaswa zona.

Ubuhinzi bukomeje kwaguka mu gihugu cyacu. Ubutaka bunini cyane, buhinzwemo ibishyimbo bikiri bitoya, harimo abakozi bari kuvomerera kugira ngo bikure neza, bitoshye n'umusozi munini cyane, urimo ibiti birebire.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza mu buryo yishimye kandi n'igihugu cyacu nacyo kikiyongera ku iterambere. Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi bikiri bitoya, bukikijwe n'imisozi miremire irimo ibiti byiza cyane.

Ubuhinzi bugira umusaruro iyo ubwitayeho ugashyiramo ifumbire ihagije ukabuvomerera, umusaruro uza ari mwinshi cyane. Ubutaka bunini buhinzwemo ibijumba bikikijwe n'ibiti birebire biduha umwuka mwiza duhumeka iyo turi kubihinga.

Ubuhinzi bukomeje kwitabwaho mu gihugu cyacu kuko butanga umusaruro mwinshi kandi tukanabaho neza nta kibazo dufite, ubutaka bunini cyane buhinzwemo inyanya zikiri ntoya, harimo abantu bambaye imyenda y'imyeru, bambaye n'amagofero y'umukara.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza yibeshejeho kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona iterambere rye rikarushaho kwiyongera. Umurima munini uhinzwemo ibirayi bikiri bitoya bari kuvomereramo amazi kugira ngo bikure neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza mu buryo bumunyuze kandi agasagurira n'amasoko abatabifite bakaza kubihaha. Ubutaka bunini cyane burimo amashu agiye kwera ndetse n'umuntu uhagaze ari kuyavomerera.

Twese dukunde ubuhinzi tubukore tubifitanye umwete kuko butanga umusaruro mwinshi cyane ukabaho neza kandi ugasagura n'abatabifite, umurima munini cyane uhinzwemo amashu akiri matoya, urimo ifumbire nyinshi cyane amashu aratoshye.

lyo witaye ku buhinzi ukabika amazi ahagije n'ifumbire ihagije, ubona umusaruro mwinshi cyane bityo iterambere ryawe rikiyongera, kandi ukabona n'ibyo kurya bihagije ugasagurira n'isoko, ubutaka bunini buhinzwemo amashu meza cyane.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu, aho umuturage wese asigaye ahinga akabona umusaruro uhagije mu gihe yakoresheje ifumbire ihagije, yavomereye agatera n'umuti wica udukoko. Ubutaka bunini cyane burimo umuntu uri kuvomerera bukikijwe n'ibiti.

Twese duhe agaciro ubuhinzi kuko budufitiye akamaro, ubutaka bunini cyane buhinzwemo amashuri ameze neza harimo umugabo uri kuvomerera ashyiramo n'ifumbire ihagije kugira ngo abone umusaruro mwinshi cyane.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu, aho umuturage wese asigaye aharanira guhinga kugira ngo iterambere ryiyongere. Umusozi munini cyane uriho ibiti birebire n'ikibaya gihinzemo ibigori, bitoshye ariko bikiri bitoya.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza kandi n'iterambere ry'igihugu rikiyongera. Uyu murima munini cyane urimo ibigori byabonye ifumbire ihagije n'amazi ahagije ubona umusaruro mwinshi cyane.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu ndetse n'umuturage, umurima munini cyane uhinzwemo ibigori bikiri bitoya, abantu bambaye imyenda y'ubururu bari kuvomerera ibiti biwukikije birebire bitanga umwuka duhumeka.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, akabaho neza kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona akabona n'amafaranga menshi, ubutaka bunini cyane buhinzwemo inyanya harimo umugabo ari kuzivomerera kugira ngo zikure.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakaza kubiraha. Ubutaka buhinzwemo ibinyomoro bigiye kwera, umumama ariko kubivomerera kugira ngo bikure neza bizamuhe umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibigori bikiri bitoya, bari gushyiramo ifumbire, bakanabuvomerera kugira ngo umusaruro uzaze ari mwinshi. Harimo n'umugabo wambaye umupira w'umukara n'ibiti birebire.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage ndetse agasagurira n'abatabifite cyane ku isoko n'igihugu iterambere ryacu rikiyongera. Ubutaka bunini cyane buhinzwemo ibiti by'avoka binini cyane harimo n'ibiribwa bikiri bitoya, bari kuvomerera kugira ngo bimere neza.

Ubutaka bunini cyane burimo ibiti bigiye bitandukanye, insina zirimo ibitoki turya bigatuma ubuzima bwacu bugenda neza n'uruzi runini rutanga amafi tukanywa bigatuma tubaho neza cyane.

Ubutaka bunini cyane bufite imisozi myiza, imiremire n'imigufiya, harimo inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, izifite amabati y'ubururu n'umukara ndetse n'umuhondo, ibiti birebire bitanga umwuka duhumeka.

Ubutaka bunini cyane burimo imisozi myiza, imiremire n'imigufiya ndetse n'ibibaya bihinzwemo umuceri umeze neza cyane n'ibiti bikikije ibyo bibaya bitanga umwuka mwiza duhumeka, tukabonamo n'inkwi zo gucana tukarya.

Igihugu cyacu ni igihugu cyiza gifite imisozi myiza cyane. Ubutaka bunini cyane burimo ibiti birebire n'umuhanda mugari urimo ikinyabiziga kiri kugenda. Umusozi muremure urimo inyamaswa zidukururira ba mukerarugendo bakaduha amafaranga.

Indinganire zifite akamaro kenshi cyane kuko zirinda isuri imyaka yawe ntigende kandi umusaruro ukaza ari mwinshi cyane, umusozi munini uteyemo ibiti birebire bitanga umwuka mwiza duhumeka igihe turi mu kazi.

Ubutaka bunini cyane bufite imisozi miremire, ibiti binini cyane ndetse n'ibigufiya n'umugezi mugari urimo amazi menshi utuma tubona aho tuvoma tugafuhira imyaka ikera cyane.

Igihugu cyacu gikomeje gutera imbere bitewe n'umusaruro tubona, imisozi minini cyane ifite ibiti bigiye bitandukanye, ibirebire n'ibigufiya n'uburinganire bumeze neza bituma tubona umusaruro mwinshi cyane.

Ubutaka bunini cyane burimo indinganire zimeze neza ibiti birebire n'ibigufiya bitanga umwuka duhumeka igihe turi guhinga bigatuma tugira imbaraga nyinshi cyane tugakora vuba tukabona umusaruro mwinshi cyane.

Igihugu cyacu ni Igihugu kigizwe n'imisozi ibihumbi, ubutaka bunini cyane burimo imisozi igiye itandukanye, imiremire n'imigufiya n'ibiti byiza cyane, birimo inyamaswa biduha n'umwuka mwiza duhumeka.

Ubutaka bunini cyane bufite imisozi miremire, amazu asakaje amategura n'insinazera ibitoki turya kugira ngo tugire ubuzima bwiza n'ibiti birebire bitanga umwuka duhumeka, bityo umubiri wacu ugakora neza.

Ubutaka bunini cyane buriho imisozi miremire myiza ikikijwe n'ibiti binini n'amazu abaturage babamo afite amabati y'umweru n'ibidutunga bihinzwe mu butaka harimo imyembe ndetse n'amapera.

Mu Rwanda dufite imisozi myiza cyane ndetse n'amazi menshi cyane kandi ameze neza, ubutaka bunini cyane burimo ibiti birebire ibirimo avoka n'imyembe turya bigatuma umubiri wacu ukora neza.

Ubutaka bunini cyane burimo ibikorwa bigiye bitandukanye, ibiti byiza cyane biduha inkwi ducana ndetse tukabona n'umwuka mwiza n'amazu asakaje amategura n'ayandi ariho amabati n'umuhanda mugari abantu bagendamo.

Igihugu cyacu ni igihugu gifite imisozi myiza n'imigezi myiza kandi bikadukururira abanyamahanga, bakaduha amafaranga, iterambere ryacu rikiyongera, ubutaka bunini cyane burimo imisozi miremire, umugezi mugari kandi uteye neza.

Indinganire zifite akamaro kenshi cyane mu gihugu cyacu kuko nk'umuhinzi, iyo ahingamo abona umusaruro mwinshi cyane, ubutaka binini cyane burimo imisozi myinshi igiye itandukanye, harimo ibiti byiza cyane, ibirebire n'ibigufiya.

Ubutaka bunini cyane buteyemo ibiti birebire n'amazu asakaje amategura, insina ziduha ibitoki turya, umubiri wacu ukamera neza, ibiti na byo biduha umwuka mwiza duhumeka, ubuzima bwacu bukagenda neza.

Ubutaka bunini cyane burimo ibyatsi bigiye bitandukanye, insina dukuraho igitoki tukarya ubuzima bwacu bukagenda neza n'ibiti biduha umwuka duhumeka ubuzima bukagenda neza n'amazu asakaje amategura ndetse n'amabati.

Ibidukikije bidufitiye akamaro kenshi cyane bidufasha kubona umwuka duhumeka ubuzima bukagenda neza. Ubutaka bunini cyane burimo imisozi myiza igiye itandukanye, amazu arasakaje amabati y'umweru n'insina ducaho ibitoki turya.

Ibidukikije ni ingirakamaro nk'imisozi myiza ibiti kuko biduha umwuka duhumeka kandi hakabamo n'inyamaswa zituzanira amadovize iterambere ry'igihugu rikiyongera. Imisozi minini cyane ifite ibiti byinshi harimo n'inyoni.

Ubutaka bunini cyane, burimo imisozi myiza cyane, miremire, ibiti bitoshye, ibikuze n'ibikiri bitoya, umuhanda mugari urimo amagare abiri, ibibido birimo amazi n'imyaka yenda kwera.

Ibidukikije bidufitiye akamaro muri rusange kuko biduha umwuka duhumeka ubuzima bwacu bukagenda neza. Ubutaka bunini cyane buriho imisozi igiye itandukanye imiremire n'imigufiya n'ubusitani bwiza cyane.

Igihugu cyacu kimaze kugira iterambere rinini cyane, gifite imisozi myiza cyane itatswe n'ibiti bimeze neza bibamo inyamaswa zidukuririra ba mukerarugendo, bigatuma iterambere ry'Igihugu ryiyongera, ubutaka bunini burimo ibiti birebire.

Igihugu cyacu ni Igihugu cyiza cy'imisozi ibihumbi bitatswe n'indabyo nziza cyane n'imigezi igiye itandukanye, ubutaka bunini cyane buriho imisozi miremire, ibishanga birimo amazi bihinzemo n'umuceri abaturage barya.

Ubworozi bw'inka bufite akamaro ku baturage ndetse n'igihugu cyacu kikabonaho umusaruro, ishyo ry'inka nyinshi riri mu kiraro bari kurigaburira rifite icebe rinini cyane kandi zihaze riduha amata umubiri wacu ukagenda neza.

Ubworozi bukomeje gutera intambwe mu gihugu cyacu, aho umuntu asigaye yorora inkoko akabona umusaruro vuba mu gihe gito yifashishije ibiryo bihagije, bigatuma abona umusaruro vuba. Ikibuga kinini cyane kirimo inyubako nini irimo udushwi twinshi.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza kandi yibeshejeho agatunga n'abatabifite bakamuha amafaranga, ikiraro kinini cyane kirimo ingurube itoshye, inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu.

Ubworozi bufite akamaro ku muturage kuko tubona amata tukanywa ubuzima bwacu bukagenda neza, inka iri kuririsha iri kumwe n'akanyana kako kari gusimbuka, bikikijwe n'ibiti birebire binini cyane bituma zibona umuyaga mwiza zikamera neza.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu rikiyongera, ubutaka bunini cyane bwubatsemo ikiraro cy'ingurube harimo ibyana by'ingurube bifite amabara y'umukara n'umweru, ibiryamye n'ibihagaze.

Amatungo magufi akomeje guteza imbere abaturage. Ubutaka bunini cyane bwubatsemo ikiraro, burimo ingurube eshatu zifite amaherena, zirimo kurya ibiryo zikanywa n'amazi kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Ishyo ry'inka riri ahantu ku musozi riri kurya ubwatsi harimo n'utunyana n'ibiti birebire bibikikije bituma zibona umwuka mwiza zihumeka n'ibyatsi byumye ndetse n'ibitumye.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage. Ubutaka bunini cyane burimo ikiraro cy'inka n'ishyo ryinshi cyane, harimo n'abagabo bambaye imyenda y'ubururu n'umweru, bari kuziha imiti kugira ngo zikomeze zikure neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi bufite akamaro gakomeye cyane kuko buzana umusaruro mu gihe gitoya. Inyubako nini cyane irimo inkoko zigiye zitandukanye iz'umutuku, iz'umweru, ndetse n'iz'umukara ziri kurya ibiryo byazo.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage kandi agasagurira n'amasoko n'abatayafite bakayibona. Ubutaka bunini cyane buriho ibiraro by'inka, harimo ishyo ry'inka n'abaganga bari kuzivura kugira ngo zikomeze gutanga umukamo mwiza.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza kandi agasagurira n'abatabifite bakamuha amafaranga iterambere rye rigakomeza kwiyongera. Ubutaka burambitseho agatebo karimo imishwi myinshi cyane iy'umweru n'iy'umukara.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza akabona amata uko bikwiriye umubiri we ukamera neza kandi agasagurira n'amasoko akabona amafaranga agakemu ibibazo bye. Ikibuga kinini cyane kirimo ikiraro harimo inka isa n'umukara.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza kandi akajyana no ku isoko akabona amafaranga akemuza ibibazo. Ikibaya kinini cyane cyubatswemo ibiraro by'ingurube, harimo ibyana bitatu biri kurya, bisa n'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako nini cyane yubatswe mu buryo bwiza cyane irimo amakaro y'umweru iteye n'amarange y'umuhondo, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi cyane bigiye bitandukanye ibisa n'umutuku n'ibisa n'ubururu.

Ikibaya kinini cyane kirimo ishyo ry'inka zifite amabara agiye atandukanye, ziri kurisha ibyatsi birebire n'ibiti bikuze bibikikije bitanga umwuka mwiza duhumeka kugira ngo tubeho neza kandi turagire neza.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage. Inyubako nini cyane irimo inkoko nyinshi zigiye zitandukanye imishwi ndetse n'inkuru, izifite amabara y'umweru n'umutuku, ibiryo byazo ziri kurya ndetse n'amazi zinywa.

Muze twese dukunde ubworozi kuko budufitiye akamaro tubona amafaranga ahagije kandi mu gihe gitoya, ubutaka bunini cyane bwubatsemo ibiraro by'ingurube harimo n'umuganga uri kuzivura ndetse ziri no kurya ibyatsi.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere umuturage, akabona amafaranga ahagije, ikiraro kinini cyane, kirimo inkoko nyinshi zigiye zitandukanye, iz'umutuku, iz'umukara ndetse harimo n'imiti yazo zinywa kugira ngo zikure neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere umuturage, bukamufasha yakenera inyama akazirya, umubiri we ukagenda neza kandi agasagurira n'amasoko akabona amafaranga, iterambere rye rikiyongera, inyubako nini cyane irimo inkoko nyinshi cyane zigiye zitandukanye z'umutuku.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage, aho abona inyama arya umubiri we ukagenda neza kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabibona. Ikibuga kinini cyane kirimo inka eshatu, hakikijwe n'ibiti birebire, bitanga umwuka, mu gihe umuntu ari kuragira akamera neza.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza, kandi agasagurira n'amasoko. lkiraro kinini cyane kirimo umukumbi w'ingurube n'ibyana bikiri bitoya, biri kurya mu buriro bwazo bifite imibiri itoshye.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere ndetse n'ubworozi mu gihugu cyacu, aho buri wese asigaye aharanira korora kugira ngo iterambere ryiyongere. Ubutaka bunini cyane burimo ishyo ry'inka ryinshi, harimo n'abaganga bari kuzitera umuti kugira ngo zikure neza.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage kandi agasagurira n'amasoko n'abatabifite bakabubona. Inkoko nyinshi cyane ziri mu kiraro ziri kurya ibyo kurya amasake ndetse n'inkokokazi n'imiti bazitera kugira ngo zikure neza.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage kandi n'iterambere ry'Igihugu rikiyongera. Ubutaka bunini cyane bwubatswemo ibiraro byinshi harimo umworozi ari kugaburira amatungo n'umuganga uri kuzitera vitamini kugira ngo zikomeze zikure neza.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage akabona amata, umubiri we ukagenda neza kandi agasagurira n'abatayafite, akabona amafaranga iterambere rikiyongera. Ikiraro kirimo inka isa n'umweru, ri kunywa amazi.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere umuturage, akabona amafaranga akemuza ibindi bibazo kandi agasagurira n'amasoko. Amahene menshi cyane ari mu kibuga, ari kumwe n'umuntu wambaye umwenda w'umuhondo azigaburira.

umuturage akomeje gutera imbere hejuru y'ubuhinzi bwe kandi n'ubworozi. Ubutaka bunini cyane buriho inka iri mu kiraro iri kumwe n'umworozi wambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero y'umutuku ukikijwe n'insina zera ibitoki tukarya.

Ubutaka bunini cyane buriho ishyo ry'inka ririgurisha ibiti bikikije ikibuga gitanga umwuka mwiza tukabonamo n'inkwi zo gucana, n'ibiti bitanga umuriro mu baturage kugira ngo babeho neza kandi bishimye.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu ndetse n'umuturage nawe akagira iterambere ryihuse. Ibiraro byinshi cyane birimo ishyo ry'inka n'abakozi bari kuzireba baziha imiti kugira ngo zikomeze zitange umukamo mwiza.

Ubuhinzi iyo ukoresheje ifumbire ihagije ukavomera uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi kandi mu gihe gitoya, ubutaka bunini cyane buhinzwemo ingano harimo umugabo uri gusarura azifite mu ntoki.

Iyo uhinganye umwete ugakoresha ifumbire ihagije, ukavomerera imyaka, ukayiteramo imiti yica udukoko ubona umusaruro vuba kandi mwinshi. Ubutaka burambitseho ibirayi byinshi cyane harimo n'abagabo bari kubiyobora.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu, iyo ukoresheje ifumbire ihagije ukavomerera uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi cyane. Ikibaya kinini cyane kirimo ibigori bihunguye n'abagabo n'abagore bicaye bari kubireba n'ibiti birebire.

Iyo ubuhinzi ubwitayeho neza uko bikwiye ugashyiramo ifumbire ihagije, ukavomerera ndetse ukanabisasira ubona umusaruro mwinshi cyane. Inyubako irimo umusaruro w'amashyaza harimo n'umuhinzi uri gupfundikira kugira ngo abigurishe neza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, inyubako nini cyane irimo ibigori byinshi cyane ibipakiye mu mufuka w'umweru, ibiri mu gitebo n'abantu bahagaze bari kuyiterura bambaye imyenda y'ubururu n'umweru.

Ubuhinzi bukomeje kwiyongera kandi bugakomeza no bw'iterambere mu gihugu cyacu, ubutaka burambitsweho ibishyimbo byinshi cyane bigiye bitandukanye, ibisa n'umutuku, ibisa n'icyatsi, ibisa n'umweru, turya bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere umuturage, iyo witaye ku buhinzi ugakoresha ifumbire ihagije, ukabivomerera ubona umusaruro mwinshi. Ubutaka burambitseho ibigori byumye byinshi cyane kandi byiza, bisasiwe n'ibyatsi byumye harimo umuntu uri kubikoramo.

Iyo ukoresheje ifumbire ihagije ukavomerera imyaka uko bikwiye ubona umusaruro mwinshi cyane amafaranga akiyongera kandi ugasagurira n'abatabifite. Uburo bwinshi cyane bweze burambitse ku mifuka hariho n'icyatsi hejuru.

Ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage, inyubako nini cyane irimo ikiraro k'inka bari gutera umuti kugira ngo ikure neza, izadufashe kubona umukamo mwiza cyane kandi ikure imeze neza.

Iyo witaye ku matungo yawe ubona umusaruro uhagije, ukabona umukamo uhagije, inyubako nini cyane irimo ububido bw'umweru burimo amata menshi n'umuganga uri kureba ko yujuje ubuziranenge yubakishije ibyuma bigiye bitandukanye.

Muze twese dukunde ubworozi kuko budufitiye akamaro, buduha inyama turya kandi tukajyana no ku masoko tukabona amafaranga dukemuza ibibazo. Ubutaka bunini cyane burimo ibiraro by'inka n'inshyo nyinshi cyane, harimo umuganga uri kuzivura.

Ubworozi bufite akamaro mu gihugu cyacu iyo ubyitayeho ukabiha ibiryo bikwiriye ugateza na vitaminini, ubona umusaruro mwinshi cyane. Inzu nini cyane ifite amarange y'umutuku n'inzugi z'ubururu, harimo udushwi twinshi.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu, ubutaka bunini cyane burimo inka n'ibiraro ndetse n'umuganga uri kuzivura kugira ngo ikomeze gutanga umusaruro mwinshi cyane n'umworozi uyifashe ku murizo.

Ubworozi bufite akamaro gakomeye cyane mu buzima bwacu, ikibaya kinini cyane kirimo ibiraro by'inka n'ishyo ryinshi n'umuvuzi uri kuzivura ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufiya bimufasha kubona umwuka mwiza ahumeka.

Abavuzi ba kizungu bakomeje kudukorera ibintu byiza cyane kuko baduha imiti tugaha umubiri wacu iyo utameze neza, bigatuma tubaho dufite ubuzima buzira umuze, muze twese tubahe agaciro kandi dukunde kwiga tuzabasimbure.

Abavuzi bafite akamaro kuko batuma ubuzima bwacu bwongera bukamera neza. Inyubako nini cyane ifite amarangi y'umuhondo, irimo amakaro, harimo abantu bambaye imyenda y'umweru bari kuvura imbwa, inkweto z'umukara.

ubworozi bukomeje guteza imbere umuturage akabaho neza yibeshejeho akabona amata umubiri we ukagenda neza. Ikibaya kinini cyane kirimo ikiraro cy'inka harimo aborozi benshi bari gutera umuti inka kugira ikure neza.

Ubworozi bukomeje kutugirira akamaro nk'ubworozi bw'inka, buduha amata, umubiri wacu ukagenda neza, ibiraro byinshi cyane birimo inka iri kumwe n'umuganga uri kuzitera inshinge kugira ngo zikure neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi bufite akamaro kuko uduha umusaruro vuba kandi mu gihe gito, inyubako nini cyane irimo imishwi y'inkoko y'umukara n'iy'umuhondo, ziri impande zazo hari imifuka y'ibiryo byazo byuzuyemo ibyo kurya.

Muze twese dukunde umurimo kugira ngo tubeho neza twifashije kandi dusagurire n'abandi, ubutaka bunini cyane burimo ikiraro cy'inka, gikikijwe n'ibiti binini bitanga umwuka duhumeka mu gihe amatungo ari .

Ubworozi bw'amatungo magufi bufite akamaro gakomeye cyane, kuko inyungu iza mu gihe gitoya. Ubutaka bunini buriho ikiraro k'inkoko, inkoko z'umukara n'iz'umutuku ziri kurya ibiryo byazo izindi ziri ku biti hejuru.

Ubwenge bukomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu, inyubako nini cyane irimo abaganga bambaye amakanzu y'umweru bafite ibikoresho bigiye bitandukanye imiti, inshinge, bakora ubushakashatsi ku ndwara nyinshi.

Ubworozi bukomeje gutuma iterambere ry'umuturage ryiyongera. Ishyo ry'inka riri mu kiraro riri kumwe n'abashumba bari kuzigaburira n'abaganga bari kuzitera umuti kugira ngo zikomeze gutanga umukamo mwiza tubona amata tunywa ubuzima bwacu bukamera neza.

Inyamaswa zifitiye akamaro Igihugu cyacu kuko zidukururira ba mukerarugendo, bakaduha amafaranga iterambere ry'Igihugu rikiyongera. Ubutaka bunini cyane burimo inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye, ziri kunywa amazi zikikijwe n'ibiti birebire.

Inyamaswa zifite akamaro gakomeye cyane kuko zidukururira ba mukerarugendo bakaduha amadovize bityo iterambere ry'igihugu rikiyongera. Ubutaka bunini cyane buriho inkende eshatu zifite n'akana kazo zirimo zirya.

Inyamaswa zifite akamaro mu gihugu cyacu kuko zituma iterambere ryiyongera buri munsi. Ubutaka bunini cyane burimo imvubu, impala, n'imparage byiza cyane bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize bityo iterambere rikihuta.

lnyamaswa zifitiye akamaro igihugu cyacu kuko zituma iterambere ry'igihugu ryiyongera, rikaza mu gihe gitoya kandi zigatuma n'abanyarwanda tubaho neza. Ishyamba rinini cyane ririmo inzovu ndetse n'imvubu, biri kugenda mu muhanda.

Inyamaswa ni nziza cyane kandi zidufitiye n'akamaro mu gihugu cyacu, kuko zidukururira abamukerarugendo bakaza kuzireba bakaduha amafaranga, bityo iterambere ry'igihugu rikiyongera buri munsi. Ubutaka bunini cyane buriho imbeba itoshye.

Inyamaswa zifitiye akamaro Igihugu cyacu kuko zituma iterambere ryihuta kuko zidukuririra ba mukerarugendo bakatuzanira amafaranga tugatuma iterambere ryacu ryihuta, ubutaka bunini cyane burimo intare nyinshi.

Inyamaswa zifite akamaro mu Gihugu cyacu kuko zituma iterambere ry'Igihugu ryiyongera buri munsi. Ishyamba rinini cyane ririmo ibisimba bigiye bitandukanye bikurura ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize iterambere rikihuta.

Inyamaswa zifitiye akamaro igihugu cyacu aho zikurura ba mukerarugendo bakaduha amadovize iterambere rikiyongera. Ubutaka bunini cyane burimo inyamaswa zigiye zitandukanye zifite amabara ay'umweru ndetse n'ay'umukara ziryamye mu kibuga.

Inyamaswa zifitiye akamaro igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko bituma iterambere riza ari ryinshi cyane, zikadukururira ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize iterambere rikiyongera ry'igihugu cyacu. Ubutaka bunini cyane burimo inyamaswa nyinshi cyane.

Inyamaswa zifite akamaro mu gihugu cyacu kuko zidukururiza ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize, bityo iterambere ry'igihugu rikiyongera, ubutaka bunini cyane burimo ibiti byiza cyane bitanga umwuka duhumeka n'inyamaswa irimo.

Ibyaremwe n'imana nabyo bidufitiye akamaro kanini cyane, kuko nabyo bitwinjiriza abanyamahanga bakaduha amafaranga iterambere ryacu rikiyongera kandi natwe tukumva biratunyuze. Ubutaka bunini cyane buriho inyamaswa ebyiri zisa n'umweruru.

Ibidukikije bidufitiye akamaro muri rusange, kandi bikagirira n'akamaro n'inyamaswa zacu. igiti binini cyane, birimo inyoni zifite amabara agiye atandukanye, ay'umutuku n'ay'icyatsi ndetse n'ay'ubururu.

Inyamaswa zifitiye akamaro igihugu cyacu ndetse n'umuturage, kuko bitwinjiriza bamukerarugendo bakaduha amadovize bityo iterambere rikiyongera. Ubutaka bunini cyane burimo imbwa isa n'umweru n'uturabo twiza cyane ihagazemo.

Ubutaka bunini cyane burimo inyamaswa zigiye zitandukanye zidukururira ba mukerarugendo bakaduha amadovize, bigatuma iterambere ry'igihugu ryiyongera birimo n'ibiti birebire bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Inyamaswa zidufitiye akamaro mu Gihugu cyacu kuko zidukururira ba mukerarugendo tukabona amadovize iterambere ryacu rikiyongera. Inyubako irimo inkende ifite amabara atandukanye y'umweru n'ay'umukara.

Inyamaswa zifitiye akamaro Igihugu cyacu kuko zituma iterambere ry'Igihugu ziyongera, zidukururira abanyamahanga bakatuzanira amadovize bityo iterambere rikiyongera buri munsi, ishyamba rinini cyane ririmo inyamaswa zigiye zitandukanye.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko habamo inyamaswa zidukururira ba mukerarugendo bakaduha amadovize bityo iterambere rikiyongera, kandi rimwe na rimwe ibiti tukanabicana bigatuma turya ibiryo bihiye. Ubutaka bunini cyane burimo ibiti bikuze.

Ibyaremwe n'Imana na byo bifitiye akamaro ku Igihugu cyacu kuko bidukururira ba mukerarugendo bakaduha amadovize, iterambere ry'Igihugu rikiyongera. Ishyamba rinini cyane ririmo ibiti bigiye bitandukanye birimo inyoni ifite amabara menshi agiye atandukanye: umuhondo, ubururu.

Inyamaswa zifitiye akamaro igihugu cyacu kuko zikurura ba mukerarugendo bakaduha amadovize, iterambere ry'igihugu rikiyongera. Ubutaka bunini cyane burimo imvubu, impala n'imparage ndetse n'ingwe, zirimo zirisha.

Inyamaswa zifitiye akamaro Igihugu cyacu kuko zituma iterambere ry'Igihugu ryiyongera kandi zidukururira ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize. Umurima munini cyane uhinzwemo umuceri ukiri mutoya harimo inyamaswa y'amabara atandukanye.

Inyamaswa zifite akamaro gakomeye cyane mu gihugu cyacu kuko zidukururira abanyamahanga bakaduha amafaranga iterambere ry'igihugu rikiyongera buri munsi. Ubutaka bunini cyane burimo inyamaswa zigiye zitandukanye izisa n'umukara n'izisa n'umutuku.

Inyamaswa zifite akamaro mu gihugu cyacu kuko zidukururira ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize bityo iterambere ry'igihugu rikiyongera, ubutaka bunini cyane burimo inyamaswa zigiye zitandukanye zituma iterambere ry'igihugu riza ari ryinshi.

Inyamaswa zifite uruhare runini Igihugu cyacu, ku iterambere kuko zidukururira ba mukerarugendo bakatuzanira amadovize iterambere ry'Igihugu cyacu rikiyongera, ubutaka bunini cyane burimo ibiti bigiye bitandukanye, n'inyamaswa ndende cyane iri kureba hasi.